Abagabo batatu bambaye umweru, umukara, ubururu, ndetse n'undi wambaye umutuku bari iruhande rw'icyapa kiri mu mabara menshi, harimo umweru ndetse n'ubururu.

Inzu ndende y'amagorofa, ifite ibirahure bibonerana, iriho icyapa kiriho umwana ndetse gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Mituweri ubwisungane mu kwivuza, hariho abantu batatu bitwikiriye umutaka w'icyatsi, ndetse ifoto irasa ubururu.

Umugore uhagaze wambaye imyenda isa umukara ndetse n'icyatsi, wambaye n'irindamanuka mu mutwe ndetse yambaye na marinette afite ibirahure bibonerana, imbere ye hakaba handitse gira abakozi b'indahemuka kandi bakunda umurimo.

Ikirangantego kiri mu ibara ry'umutuku, umuhondo, rivuga ku ijambo sonarwa genero riri mu magambo y'amanyamahanga kandi inyuma y'icyo ngicyo hasa umweru.

Agatabo gato kanditseho ubwishingizi bwo gushyingura ndetse bwa sorasi gateretse ku meza ya za shokora, hirya hicaye abantu bicaye ku ntebe z'umukara.

Abantu babiri bari kurebana, umwe yambaye umupira w'umweru ndetse n'isaha ku kuboko, undi yambaye umupira w'icyatsi.

Umugore wambaye ingofero y'umweru ndetse nisengeri y'umukara ari imbere ibicuruzwa biri mu tubati, harimo inyanya, ibitunguru, ndetse ari guseka yishimye.

Imyenda yo kwambara hasi ndetse no hejuru ifite ibara ry'umuhondo ndetse umweru, icyatsi, umutuku, umukara ndetse n'icyatsi kibisi.

Abantu babiri bari kureba mu nsakazamashusho, umwe yambaye ingofero iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, yambaye n'umupira w'umuhondo, undi yambaye amadarubindi ndetse n'umupira w'ubururu.

Abantu batatu umwe afite imyenda myinshi mu maboko ye yombi, undi bisa nkaho atangaye, yambaye ikote ry'umweru, yambaye n'ikarita mu gatuza ari kumeza y'umukara.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda hejuru hari icyapa cyerekana ikihakorerwa kiri mu mabara y'icyatsi, umweru ndetse n'umukara. Mu imbere harimo imyenda.

Abantu babiri umwe yambaye imyenda y'umukara, bari iruhande rw'imodoka nyinshi z'umweru zisa, ziri ahantu hasa nabi, hari ibyatsi bikeya cyane.

Ibinyabiziga bine bifite ibiziga bine biri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, biri ahantu hitaruye bihagaritse mo imbere nta muntu urimo.

Imodoka nziza y'umukara ndende ifite amabara menshi y'umukara ndetse n'umweru, ifite amapine meza ndetse n'ibirahure bibonerana iri ahantu ihagaze.

Abantu babiri bahagaze imbere y'imodoka ifite ibara ry'umukara, hakurya hari inzu ifite ibara ry'ikigina ndetse n'umweru.

Imodoka isa umukara ifite purake ihishe, ibirahure by'umweru, umuhanda w'umukara, ibiti by'icyatsi.

Abantu babiri bari imbere y'ikinyabiziga cy'igikamyo gifite amabara: umweru, umukara, umuhondo, ndetse n'amagambo yandikishijwe umutuku.

Umuhanda urimo ikinyabiziga gifite ibara ry'umukara n'umweru n'ibirahure bibonerana, ndetse umuhanda ukaba ukikijwe nk'ibiti birebire bisa icyatsi n'ibindi biti binyuzwaho insinga zisakaza umuriro w'amashanyarazi.

Imodoka nyinshi ziparitse, zifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, zikaba zikikijwe n'ibiti birebire ndetse n'amayetage y'amagorofa maremare.

Umuhanda muremure ku ruhande hari ibyatsi n'indabyo biri mu mabara y'icyatsi kibisi ndetse hari amabendera ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Abantu babiri bafite icyapa mu ntoki inyuma yabo hari igikamyo kirimo amabara y'icyatsi, umweru, umutuku ndetse gifite ibirahure bibonerana.

Abantu babiri bahagaze imbere y'ikinyabiziga gifite amabara atandukanye, umukara ndetse n'umweru, n'ibirahure bibonerana.

Abagabo batatu bahagaze ndetse n'undi mugore umwe ubahagaze iruhande, bafite icyapa mu ntoki kiriho amabara atatu harimo umweru, ivu, ndetse n'umutuku.

Imodoka mo imbere yaho, harimo intebe zifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara n'imikandara abagenzi bambara cyangwa se umuntu uyitwaye aba yambaye.

Imodoka nyinshi zitondetse kumurongo zifite amabara menshi harimo umweru, umukara, umutuku ndetse ziri kumurongo hagaragara enye zifite amapine manini n'ibirahure bibonerana.

Umuntu uhagaze imbere y'imodoka y'umukara, ifite ibirahure bibonerana, ndetse n'amatara y'umweru, wambaye ishati isa n'iroza, ndetse n'imyenda y'umukara.

Imodoka isa umukara ifite ibirahure bibonerana, ndetse hakurya hakaba hari inzu ifite ibara ry'ikigina ndetse n'umweru.

Abagabo babiri, bari kuvugana, umwe ari imbere y'ikirahuri kibonerana, undi ari inyuma yacyo, bose bambaye udupfukamunwa, undi yambaye ishati y'umukara, ndetse n'amadarubindi.

Abantu babiri bari imbere y'ikirahure kibonerana, hejuru yabo hari icyapa kirangwa icyahakorerwa mu ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'icyatsi, hariho imibare itandukanye.

Inote y'inyarwanda igaragaza amafaranga magana atanu, ku inote hariho ikiraro ndetse hariho n'abanyeshuri bafite mudasobwa imbere yabo.

Imeza iriho imashini ibara amafaranga, hari ibiceri mu dukombe ninoti mu ntoki z'umuntu wigikara.

Abantu bicaye, imbere habo hateretse mudasobwa, ku meza afite ibara ry'umukara ndetse bakaba bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, umukara, umweru ndetse n'ishati y'ubururu.

Inote ijana banki nationale y'u Rwanda amafaranga ijana, iriho umugore uhetse umwana ndetse hariho imisozi n'ibirunga n'amashyamba.

Imeza iteretseho akamvirope k'umuhondo ndetse hateretseho n'ikawa iri mu gikarito ku meza isa umuhondo.

Amacupa atandatu n'irindi ry'igice, biri mu kazu gatoya k'icyuma, hariho ingufuri ebyiri, kuruhande hari umuryango uri mu ibara ry'uburururu; ayo macupa na yo ari mu ibara ry'ubururu akandi apfundikiye.

Abantu batatu bicaye mu byicaro, undi ahagaze yambaye isengeri y'umweru, undi yambaye ikanzu itukura, undi yambaye ingofero y'ubururu.

Amandazi, rimwe risatuyemo kabiri, atetse neza mu mavuta kandi ubona ko ateretse ku isahani y'umweru, amandazi nayo arasa umuhondo mu imbere harenda gusa nk'umweru.

Umuntu ufite telefone ifite aho barebera hasa umukara ndetse n'umweru, handitse ngo bayi irekure data bando andi peyi wivi momo bayi deyaringi.

Umuntu ufite fone mu ntoki ze, fone irimo amafaranga ndetse akaba ari umuzungu, ufite fone isa umweru ndetse n'umukara.

Umugore wambaye imyenda y'umweru ndetse ari gukora ku gikuta0afite imisatsi y'umukara, hejuru hari ikirangantego kiri mu ibara ry'umutuku.

Urupapuro rwanditseho amagambo menshi asobanura ibyo rusobanura, handitsemo amabara y'ubururu ndetse n'umukara.

Inyemezabwishyu yo mu Rwanda ya Rwanda reveni otoriti ya Nyarugenge, iriho amafaranga igihumbi yo mu kwezi kw Kabiri bibiri na cumi na karindwi; tariki makumyabiri n'umunani.

Igipapuro cya Gt Bank kiriho imisoro ya Banki, ndetse kikaba gisa umukara, ubururu, umutuku ndetse n'umweru.

Umuntu ufite ibiganza by'umutuku, hasi y'ahantu ari kubarira amafaranga y'u Rwanda, yari ageze ku mafaranga ibihumbi bibiri abara, hasi y'aho hantu ari kubarira amafaranga, hari telefone ihateretse ndetse handitseho eyateri.

Icyuma kiri kubara amafaranga y'amanyamerika, inoti y'ijana ndetse n'andi, imbere yacyo hasa umweru ku meza giteretseho.

Abagabo n' numudamu bicaye yambaye ijire y'umuhondo irimo akarongo k'umukara asutse ibishuko byumukara, yambaye agashanete mu ijosi, imbere yabo kumeza hari agacupa k'amazi igitabo hejuru hariho bike.

Ibiro by'ivunjisha amafaranga y'amanyamahanga ndetse ifite umuhondo hejuru yaryo inzu isa ubururu n'ibyatsi hasi.

Abantu babiri bari kuganira umwe afite ibikapu bibiri icy'umukara n'icmutuku imeza bari kuvuganiraho isa umweru ndetse umuntu yambaye ishati y'umutuku.

Icyapa kiriho amabara menshi atandukanye harimo umweru, umutuku, ubururu ndetse hasi hari inzira igana munsi y'icyapa.

Umuntu uri mu idirishya hejuru ye hari icyapa kirimo amabara y'ubururu n'umutuku ndetse n'umweru, ikirahure kiriho impapuro ziri mu ibara ry'umweru.

Abantu babiri bari guhererekanya amafaranga, muri banki, umu mama wambaye ishati y'umutuku, ishati y'umukara, ndetse umugabo yambaye ishati irimo amabara menshi, ubururu, ndetse n'umweru.

Umugore n'umugabo, umugore ari imbere y'imeza y'umweru, yambaye umupira w'umweru afite imisatsi y'umukara, umugabo we ari imbere y'imashini zibikura amafaranga, yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Ibiro by'ivunjisha bifite urugi rusa umukara bifite ibirango bisa umutuku, ubururu, umweru, ubururu.

Ikinyabiziga giparitse imbere ya banki, banki ikaba ifite ibara ry'umweru ndetse hakaba ibyapa byandikishijweho amagambo y'umukara ndetse n'umutuku.

Inzu ifite icyapa cyerekana icyo bakoreramo gisa n'amagambo y'ubururu ndetse n'umutuku, inzu ifite imiryango minini isa icyatsi.

Intebe ndetse n'ameza bifite ibara ry'umweru, hakurya hakaba hari inzu ifite ibirahure n'inzugi binini bifite ibara ry'umweru ndetse igikuta cy'inzu kikaba gifite ibara ry'icyatsi cyerurutse.

Intebe zisa umuhondo, imeza ifite ikirahure cy'umweru ndetse n'ibirahure byo kunyweramo bisa umweru ndetse n'amazi.

Intebe zibaje neza, imeza y'igiti hejuru iriho ikirahure kibonerana, kiboneranye kigahita cyerekana amatara ari hejuru yacyo kandi hasi hari amakaro asa neza akoropye.

Amatara abiri amurika mu icyerekezo kigana hasi, ayo matara afite ibara ry'ivu ariko asohora urumuri rw'umweru ku rubaho, hasi hari ahantu ucomeka ukabona amashanyarazi.

Intebe ziteye imbere y'inzu ifite ibirahure bibonerana ndetse ikaba ifite ibara risa ni umweru ndetse n'amatara hanze ndetse n'indabo zihakikije zisa n'icyatsi kibisi.

Inzu ifite aho bogera hanze hari intebe ndetse n'imitaka itwikira izo ntebe n'abantu bazicayeho, inzu ifite ibara ry'umweru hakurya hari imisozi.

Inzu irimo intebe nyinshi ndetse n'ameza, ameza asa ikigina ndetse n'intebe zisa umutuku zifite ibirahure bibonerana.

Inzu ifite aho bogera ndetse n'aho bicara hitegeye imisozi ndetse hakaba hakikijwe n'inzu ndende ndetse n'ibiti bisa icyatsi.

Inzu isa umutuku ifite ibyatsi by'icyatsi, ndetse ifite igipangu cy'icyatsi, n'amabati y'umutuku.

Inzu y'amagorofa abiri, ifite intebe hanze zifite ibara ry'ikigina ndetse ikaba ifite ibara risa umweru ndetse n'ubururu, ikaba ikikijwe n'ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi.

Ibiro bya Sanlm bifite amatara amurika umweru, parafo y'umweru, imeza y'umukara n'umweru, igiputa cy'umukara n'umweru, n'amakaro by'umweru.

Inyubako ifite icyapa hejuru kirangwamo amabara menshi, harimo icyatsi, ubururu, umuhondo ndetse n'umweru, harimo n'izuba ry'igice.

Inzu nziza kuruhande hariho ibirahure bibonerana ndetse nibyuma bizamuka hejuru, ndetse iyo nzu ifite ibyapa byamabara menshi atandukanye, harimo umutuku, zahabu, umweru ndetse n'umukara, hasi mu muryango hahagaze umuntu.

Abantu benshi bicaye mu biro imbere yabo hari mudasobwa, zicanye zirimo guturukamo urumuri rusa umweru, bambaye imipira yu'umweru, bari kumeza zisa umuhondo, kandi bose bari kureba mu cyerekezo kimwe.

Inzu ifite intebe ndetse mo imbere harimo ameza asa umuhondo ndetse ifite inzugi z'ibirahure.

Inyubako ifite inzugi z'ibirahure zibonerana zerekana mo imbere harimo intebe z'abantu batatu zisa ubururu, inzugi ziri mu ibara ry'umweru, ikigina, ubururu.

Abantu bicaye mu ntebe, imbere yabo bafite mudasobwa ziteretse ku meza, imeza iri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, igikuta inyuma yabo kiriho ibara ry'umukara.

Inzu ndende ifite ibirahure bibonerana, hejuru hari icyapa kiranga ikihakorerwa kiri mu mabara abiri atandukanye harimo umweru ndetse n'umutuku.

Inzu irimo imeza, irimo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, hirya ku gikuta hari inyandiko ziri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku, igikuta kiri mu ibara ry'umweru.

Akazu gatoya gafite imiryango isa nkaho iranguruye muri iyo nzu winjiyemo harimo imeza ifite utuntu tw'umweru kandi igiye itatswe n'amagambo menshi.

Inzu nini ifite ikiranganteko cyanditseho saniramu, umuhanda munini urimo imodoka, ndetse n'abagenzi bari kwambukiranya umuhanda.

Abantu batatu, bari kugenda mu cyerekezo kimwe, hirya hari icyapa kiranga igikorerwa muri iyo nyubako, kiri mu mabara atandukanye, harimo umutuku, umweru, ndetse n'umukara.

Umukobwa ufite umusatsi w'umukara uri guseka ufite terefone mu biganza bye ndetse yambaye umupira w'umweru.

Umukobwa uri guseka ufite imisatsi myinshi , wambaye ishati , inyuma ye hari inzu ifite imiryango y'umukara, hateye ibyatsi imbere y'inzu.

Umukobwa mwiza wambaye umupira usa nk'ivu, afite igipapuro kinini gisa kake, ku ruhande rwe hari inyandiko, zerekana n'imibare ivuga ngo "aka nyenyeri magana rindwi mirongo itatu na karindwi, akanyenyeri zeru urwego".

Abantu babiri, bari kuganira, umwe afite igitabo ndetse n'ikaramu mu ntoki ze, haparitse imodoka, ifite amabara atandukanye n'ibirahure bibonerana, hakurya hakikijwe n'ibiti bisa icyatsi kibisi.

Abagore babiri bambaye imyenda isa amashati y'umweru ndetse n'ubururu bwijimye, bafite imisatsi y'umukara.

Abantu benshi bahagaze bazamuye amaboko, bambaye ibitenge ndetse n'amakanzu, hasi hateretse ibyansi biri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru.

Umugore wambaye igitenge cy'umweru n'ubururu, yambaye n'umupira wamaboko maremare urimo imirongo yumweru n'umukara, ari imbere y'inkoko irimo amaronji, kandi kururahande arimo n'imifuka bisa nkaho harimo ibirayi.

Abantu benshi bari mu rujya n'uruza, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, hejuru hari inzu y'amagorofa atatu, iri mu mu mabara y'icyatsi, ubururu, umuhondo ndetse n'umweru.

Abaturage bari ahantu begeranye bari mu bicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo karoti, ibitunguru, intoryi, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inzu icururizwamo ibijyanye ni imideli, harimo ibitenge ndetse bifite amabara atandukanye, byiza ndetse birebire.

Umuhanda muremure urimo ibinyabiziga ndetse n'abantu bari guca ku nkengero z'umuhanda ndetse ukaba ukikijwe n'inzu ebyiri z'ama etaje

Umuntu wicaye, undi uhagaze, imbere yaho hari ibitoki by'icyatsi, ibirayi, ndetse n'abandi inyuma benshi.

Abantu benshi bahagaze bari kugura imyenda ndetse n'ibikoresho bitandukanye, harimo abazungu ndetse n'abirabura bari kugurisha.

Inzu y'imideli irimo imyenda itandukanye, imipira ndetse n'ibitenge ndetse n'ibikoresho n'imitako ya gakondo.

Abagore babiri bicaye ndetse n'undi mugabo uri kugura ibirayi, imbere y'abo bagore hari imifuka irunzemo ibirayi byinshi ndetse n'undi mugore uri hirya wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umutuku.

Umugabo wicaye ku mbaho imbere ye hari ibijumba ndetse n'imyumbati, inyuma ye hari umugore wambaye ikote ry'umutuku ndetse n'ikanzu iriho uturabyo; uwo mugabo we yambaye ikote ry'umukara n'akagofero k'umweru, hirya hari abantu benshi.

Abantu benshi bari gutambuka mu isoko ndetse n'abandi bicaye imbere y'imbuto zitandukanye, zifite amabara atandukanye harimo imyembe, inanasi, imineke pome ndetse n'amacunga.

Amabase menshi atondetse ku murongo arimo ibiribwa bitandukanye, harimo imineke ndetse n'ibitoki, hirya hari abagore babiri bicaye, umwe yambaye imyenda y'ubururu hejuru undi uri hino yambaye igitenge.

Abantu benshi bacucitse bari ahantu hamwe, bari ahantu huzuye imyenda myinshi, imwe imanitse ku gikuta, indi imanitse ku biti, bamwe bambaye imyenda y'ubururu ndetse na kaki.

Umugabo uhagaze mu idirishya ry'akazu gatoya, mu imbere mu kazu harimo umukobwa. Inzu iri mu ibara ry'umuhondo, ubururu ndetse n'umutuku.

Umugenzi uri guca mu muhanda, hakurya ye, hari icyapa cya mtn icuruza ama inete, harimo ama mesaje ndetse n'ama inite yo gukoresha kuri Enterineti.

Akazu gatoya ku ruhande hari umugabo uhagaze wambaye umupira w'ubururu bw'igicu ndetse akazu kari mu mabara menshi atandukanye harimo umutuku, ubururu, umuhondo ndetse n'umweru.

Umuntu uhagaze imbere y'akazu gatoya karangwaho amabara y'umuhondo, ubururu, umutuku. Mo imbere hicayemo umuntu.

Akazu gatoya gatangirwamo serivisi zo gutanga amayinite ndetse n'ifatabuguzi ikaba isa umweru ndetse n'umuhondo ikaba ikikijwe n'abantu benshi.

Abagabo babiri umwe wambaye umupira usa umuhondo, undi wambaye ishati isa umukara, umweru ndetse n'umuhondo, imbere yabo akaba ateretse mudasobwa, imeza ikaba isa umukara.

Akazu gasa umutuku ka Eyateri mani n'akandi byegeranye ka Emutiyeni gasa umuhondo karimo abantu bane.

Imodoka iri mu ibara ry'umutuku, ifite ikirahure kimaditseho ibintu biri mu ibara ry'ubururu, inyandiko mu ibara ry'umweru ndetse n'udushushanyo mu ibara ry'ubururu, umutuku ndetse n'ubururu.

Inzu ndende, hasi haparitse ibinyabiziga ndetse hari n'ubusitani, buteyemo umukindo, usa icyatsi kibisi ndetse n'ibindi byatsi, inzu ikaba ifite ibyapa byinshi byerekana igikorerwamo.

Inyandiko ziri mu mabara atandukanye harimo ay'umukara ndetse n'ay'umweru, hari n'ahandi handitse ibihugu byinshi bigiye bitandukanye, harimo nka Leta zunze ubumwe za Amerika

Abagabo babiri bahagaze bareba mu cyerekezo kimwe. Umwe afite ibara ry'umukara ku ruhu rwe, undi ari inzobe y'umuzungu bambaye marinete.

Isoko ryo gucururizaho online. Ucuruza inkweto, telefone, udukapu ndetse iryo soko rikaba ryitwa kiku.

Inzu igurishwa ibihumbi cumi na bitanu isa umweru ifite ibirahure kumpande ifite ibirahuri by'umukara ifite hasi hasa umutuku.

Inzu y'amagorofa ifite ibikuta bisa ikigina ndetse n'umweru, ikagira ibirahuri by'umukara ndetse ikaba ikikijwe n'ubusitani bw'ibyatsi bisa icyatsi kibisi.

Inzu ifite igipangu gisa n'ikigina ndetse n'igipangu gisa umukara ndetse inzu ikaba isa umweru, ikikijwe n'ibiti birebire.

Icyumba kirimo amarido ari mu ibara ry'umweru ndetse irindi rido ririmo ibara ry'umukara, uburiri buriho amashuka y'umweru ndetse n'ibara ry'ivu.

Uburiri bufite amabara atandukanye ndetse n'amarido akingiriza idirishya, afite ibara ry'umukara ndetse n'umweru n'ibikuta by'inzu bifite ibara ry'umweru.

Inzu nziza igeretse kabiri ifite imiryango y'imbaho ifite ndetse amadirishya y'ibirahure imbere yaho hari igiti gisa icyatsi n'indabo zisa umutuku.

Inzu nziza kandi itangaje iri ahantu heza, isa umweru, umweru mwiza utavangiye, ifite ibirahuri byiza bisa neza kandi ku ruhande rwiyo foto handitse ko igurishwa Kigali ahitwa Kimironko.

Inzu irimo igikoni yerekana ko iri ku isoko kandi irimo icyumba kimwe n'ubwogero iri ku mafaranga ibihumbi magana abiri ku kwezi Kigali Kacyiru hariho na nimero ya telefone.

Inzu ndende yubatswe muburyo bugezweho, ifite amabara yasa umweru ndetse n'igisenge gisa ubururu n'umuntu uhagaze ku ruhande rw'inzu.

Inzu ndende y'amagorofa, ndetse ifite ubusitani n'ibiti biyikikije birebire bifite ibara ry'icyatsi, inzu ikaba ifite ibara ry'umweru ndetse n'ikigina.

Inzu irimo intebe ziri mu ibara ritukura ndetse harimo n'imeza iri mu ibara ry'ikigina n'igikuta gisa umweru.

Inzu ifite salo ndetse aho bashyira televiziyo ikaba ifite ibara ry'umweru, ifite ndetse aho basohokera imiryango minini ndetse n'imiryango mitoya.

Inzu ifite ibara ry'ikigina ndetse n'ibirahure bifite ibyuma bisa icyatsi, n'ibirahure bibonerana, hakaba hateye kumpande zaho indabyo zisa icyatsi kibisi.

nzu ifite ibirahuri, imiryango isa umukara ifite aho bakendera hasa umutuku n'umweru.

Umuntu uhagaze imbere y'inzu ndende, ifite amabara atandukany, akaba yambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara.

Inzu ndende ifite ibara ry'umuhondo, umukara ndetse ifite inzugi zifite ibara ry'umukara ndetse n'ibirahuri bibonerana.

Inzu isa umweru ifite igikuta cy'umuhondo, ibyatsi ndetse n'ibirahuri by'umukara n'ibiti biteye kuruhande.

Inzu iri ahantu hari ubusitani ndetse ikaba ifite amabara atandukanye asa umutuku, umweru ndetse n'ubururu, ikaba ifite ubusitani burimo indabyo ndetse n'ibyatsi.

Imodoka zihagaze ahantu hamwe ku murongo, zirimo amabara atandukanye, harimo umukara, umutuku, umuhondo ndetse iyindi iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara ku ruhande hari inzu y'amagorofa.

Isoko bacururizamo ryanditse amagambo y'icyatsi yanditseho hudu mariti supamaketi ndetse ifite imiryango minini ndetse n'imiryango mito y'abinjiriramo bagiye guhaha.

Iduka rigurisha imyenda yo kwambara, hari imyenda isa ubururu, umukara, ndetse mo imbere harimo n'abantu bambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umuntu wicaye wambaye umupira w'ubururu, ari imbere y'amakanzu ari mu mabara atandukanye harimo ubururu, umukara, umuhondo ndetse n' umutuku.

Aho bahahira mu isoko hari sima y'umweru, ahantu babikuriza hasa ubururu ndetse n'inzu y'umweru.

Inzu y'imideri irimo imyenda myinshi, iy'abana ndetse n'iy'abakuru, ikaba irimo abantu bari guhaha, bambaye imyenda y'umukara ndetse n'umweru.

Abantu benshi begereye imeza bamwe bahagaze, abandi bicaye umwe yambaye ishati y'umweru, kandi abandi bafite amakaramu mu ntoki bari kwandika mu bitabo.

Ahantu habereye inama ya ejo heza, hahagaze abantu benshi, ndetse hari ibyapa byanditseho ejo heza, hari abana, ababyeyi, ndetse abasore, n'inkumi.

Abantu benshi bicaye mu ntebe bareba mu byerekezo bimwe, inzu irimo amakaro y'umweru ndetse n'inkingi iri mu ibara ry'ubururu hariho ibyapa.

Umugore ufite igikoresho cyitwa inyundo, gisa umukara ndetse n'umuhondo ndetse n'umweru, wambaye ishati y'ubururu, ishati y'umweru, wambaye amadarubindi ndetse n'ikirinda impanuka.

Inzu ifite ibirahure bisa umweru, ibikuta bisa umuhondo ndetse ifoto irasa ubururu n'umuhondo.

Mitiweli yanditseho amazina ya nyirayo ndetse aho atuye, n'ubwishingizi bwe igihe yabufatiye ndetse hakaba ariho n'ifoto ye n'amatariki.

Umuntu uhagaze imbere y'aho bagurira ibyo kunywa, wambaye ikote ry'ubururu ndetse n'ijipo isa ubururu.

Inyubako ikoreshwa mu bucuruzi bw'ibiribwa ndetse n'ibindi bitandukanye, hahagaze abantu babiri bari kureba ibiribwa bashaka, ndetse hasi hari amakaro y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi.

Umugabo uri mu nyubako y'ubucuruzi ari kwitegereza utubati turimo ibicuruzwa, hari agacuruzwa karirimo ibara ry'umuhondo afite mu ntoki, kandi uwo mugabo yambaye ingofero iri mu ibara ry'umukara.

Umugabo ufite, akamodoka kagashyirwamo ibicuruzwa. Hirya hari akabati karimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye. Akabati karimo ibara ry'umutuku. Umugabo wambaye ishati mu ibara ry'umukara.

Isoko ricururizwamo ibinyobwa bitandukanye, harimo imitobe ndetse n'inzoga zisembuye, zifite amabara atandukanye.

Inzu y'ubucuruzi, imbere haparitse ikinyabiziga gifite ibara ry'umukara, ndetse inzu ikaba isa umweru, hejuru hariyo ubusitani bufitemo ibiti bifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Inzu ihahirwamo ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'ibiribwa, biri mu tubati turi mu ibara ry'umutuku ndetse hasi harimo amakaro ari mu ibara ry'umweru.

umuntu uri kuruhande rw'ibicuruzwa byinshi bitandukanye bipanze mu kabati, harimo ibyo amabara y'umuhondo, icyatsi, umweru ndetse n'umutuku

Isoko ririmo imbuto ndetse ziteretse mu bikarito bisa icyatsi ndetse n'ikigina, imbuto harimo amaronji ndetse n'amacunga.